Ifoto y'umudamu ufite imisatsi itembera ku matama w'inzobe w'umuzungu, nimero gatatu, gatatu, kane, umunani, icyenda, akanyerezo, zero, icyenda, karindwi gatanu. Agaragara ko areba imbere cyane.

Harimo imibare ibihumbi bibiri, igaragaza ko ari konti, hagaragaramo amafaranga n'akadapo k'u Rwanda, uturongo twako dutatu n'utundi tuntu turimo mu imbere bigaragara neza cyane.

Amagambo yanditse amagambo yanditse ku ifoto byanditseho bigaragara ko ibyanditseho bitandukanye mu buryo bigenda bigaragara kureba neza ukabona hasi uducumu tubiri tugaragaza kamwe gatambika n'akandi kagaruka.

Umugabo uri gutunga urutoki imashini, imbere ye hari umuzungu umureba cyane, bari mu nzu n'impande y'inzu, hafi aho ngaho ku rubaraza, niho uyu mugabo ahagaze wambaye karuvati, imbere ye hari akabokisi, hari akantu k'agakarito k'igitare, gasa neza.

Iduka rimanitsemo imyenda yo hejuru, imyenda yo hasi, amashati, amapantaro n'udukanzu ndetse tumanitse ku tuntu tw'uduti tw'utwuma tugaragara ko iyi myenda iri mu iduka neza cyane, imyenda iboneka neza.

Abantu bahagaze mu ruziga rw'ibipupe by'umwuka, ibyo twakwita ibipurizo bahagaze munsi yabyo, buri wese afite agakapu mu ntoki keretse umwe, babiri ni bo batagafite bo ku mpande, hari imodoka yanditseho mahinda, impande yayo hari imodoka y'igitare, imbere hari inzu ifite ibyuma byinshi.

Imodoka ifite ikirango cyayo cy'igitare, imodoka y'umukara ifite igiciro cya miliyoni mirongo itatu n'esheshatu, iragurishwa bigaragara ko ihagaze mu nzira, ahantu hakunze guhagarikwa izindi, hari amazu agaragara inyuma inyuma.

Umuntu uhagaze ureba mo imbere hafi hari icupa ry'amazi, hejuru handitse cumi n'icyenda, ibipirizo biri hejuru, umuntu uri kwandika wambaye ikote ry'umukara, ibirahure ndetse n'amatara areba neza abonesha.

Inoti y'igihumbi ,igaragaramo, imirongo, myinshi cyane ndetse n'igihuru, iyi noti iriho imibare, mike cyane ,yanditseho amagambo banke nasiyonari di Rwanda.

Hafite icyapa cy'inyange. Hagaragaramo ubujerekani bw'amata ndetse n'imbere na ho hateretsemo utundi tuntu twinshi cyane turimo amata, tugaragara mu tubati dutandukanye tugeretse gatatu. Hejuru y'aka gatatu hari akajerekani k'amata karekare ndetse hasi munsi y'aka mbere, imbere y'ameza hateretse ibikarito birimo inyange.

Nyanza miliki indasitiri, amagambo, ndetse hari n'inka, hari utujerekani tw'amata, hari nimero za telefone, hari ndetse n'igicupa kirimo amata.

Icyapa kigaragaza inka y'i Nyanza, iri ku rugi rurerure impande y'urugi hari udutafari, bigaragara nkahoho ari inzu, harimo n'ijerekani, igaragara ko ari umweru cyane.

Amagambo yanditse mu magambo, ahandi mu mibare bigaragaza amafaranga, nibyo bigaragara neza cyane, biri kuboneka mu magambo menshi agenda yicagaguramo kabiri.

Repubulika y'u Rwanda, ikirango kigaragaza Rwanda reveni otoriti, handitsemo utugambo dutandukanye twayishyuwe ndetse n'igihe yishyuriwe n'ibyishyuwe n'ibiciro byose, kigaragaza uwatanze umusoro.

Icyangombwa kigaragara ko ari icya Rwanda reveni, sosiyete ishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, cyanditseho amagambo menshi atandukanye. Gishushanyijeho akarango ka Rwanda reveni, kameze nk'aho ari uturabyo.

Urupapuro rwanditseho amagambo atandukanye. Rwanditseho amagambo agaragaza imibare n'amafaranga runaka igaragaraho cyangwa na nimero y'iyo konti. Ibi byose bigaragaraho kuri urwo rupapuro.

Repubulika y' u Rwanda, ikirango cya Rwanda reveni, kigaragaza ko umuntu yishyuye umusoro, amagambo yanditseho ko byishyuwe, ururabo rugaragaraho ndetse n'utundi tugambo dutoya tundi tugiye turiho.

Ibiganza bifite inoti mu ntoki inote z'ijana, inoti zifashwe n'ibiganza bibiri, kimwe gifite intoki zitagaranye zitegeranye neza, ni inoti rwose zifashwe, inzara nziza zisa umutuku ndetse n'ibiganza bisa neza.

Amafaranga agaragara nkaho ari ay'amadolari. Ari gusohoka mu cyuma cyabugenewe. Iki cyuma kigaragara nkaho aricyo ari igitare cyane. Muri iki cyuma harimo intoki z'umuntu uri gusohora aya mafaranga. Yambaye umwenda w'icyatsi, ujya gusa ubururu. Kandi afite n'impapuro hafi ye.

Amafaranga atandukanye, ikiganza kiyafashe kiri gukora ku muntu, ikiganza cyafashe kiho ubwoya atarambitse hasi, afatishije udufashi twabugenewe dufate amafaranga, yarambuwe ku kintu ndetse ari kuyabara nyir' intoki.

Umuntu ufite amafaranga inote z'amadorari, hari igishushanyo kiri kugaragaza ko hari ibintu bihagaragara bimeze nk'amafaranga, umuntu wambaye ikote rifite ibipesu bibiri, ikote ry'umukara mo imbere harimo na karuvati kandi wambaye neza cyane.

Inote nziza z'amadolari zanditseho ijana ndetse izi note zishushanyijeho umuntu, hagaragara ibigaragaza ikigereranyo cy'ibintu muri rusange, muri izi note harimo utuntu twanditsemo tw'utugambo twinshi tutagaragara.

Inoti zigaragara z'amafaranga n'ibiceri bigaragara, birambuye ahantu. Ibi ngibi hari izandikishije ibara ry'umutuku n'izandikishije irindi bara ryijimye.

Ibigaragara amafoto yabyo mu imbere biragaragara mu nzu, mu kirahure, inzu ifite umuryango hejuru hariho ikirangantego cy'Igihugu, mu mpande harimo amafoto, amafoto agaragara, agaragara nk'ibintu bimeze nkaho ari ibintu by'impapuro.

Karensi egisicenji, cyangwa se ahavunjishirizwa amafaranga mw'imbere hari aho umuntu yicaye, ufite imisatsi ndetse hari n'ahagaragaramo umwanya munini urimo irangi ry'igitare cyane, hagaragara neza.

Udutebe tugaragara ahantu hari amatara acanye cyane, imbere y'inzu, hari indabyo, inyuma hari indabyo, imbere hari itara ricanye cyane, ziteretse mu nzu ahantu ku makaro, hameze neza cyane, ubona ko itara ryacanye rikageza kw'ayo makaro.

Hoteli ijambo ryanditse hejuru ku nyubako ndende, igeretse inshuro eshanu, ifite ubuntu bw'ubudirishya burimo ibirahure, ifite hasi urupangu rw'utwuma tureture, hasi hakaba n'amadapo y'ibihugu bitandukanye bine.

Abantu bahagaze ku nyubako ijya kuba ndende batatu bayegereye kandi inyubako igaragaza ubwuriro bwayo aho kuzamukira ujya hejuru, mo imbere ahaboneka harasa n'ahijimye, bafite umwe afite akamvirope mu ntoki.

Inzu ifite hejuru harehare igeretse kabiri y'igorofa ifite ibirahure bibonekamo imbere bibonerana ifite amatara ndetse na camera. Imbere handitseho mukamira aya magambo agaragara ku byapa biriho munsi hashushanyijeho umwana.

Haragaragara ibintu birundanyije byinshi cyane, bigaragara nk'imyambaro hejuru bigaragara ko biri mu magorofa atatu atandukanye. Biragaragara umuteme w'agaseke, haragaragara utundi tuntu dufite amabara menshi cyane.

Umugabo wicaye mu kazu k'umuhondo, wambaye umupira iciyemo imirongo uri kureba imbere, afite agatabo imbere ye ni umukozi wa MTN, impande y'akazu hari igiti k'inganzamarumbo.

Umukobwa wambaye umwenda w'igitare, ameze nk'aho atanga ibijyanye na MTN, inyuma ye hari utubati turimo ibikoresho bya MTN ndetse afite imisatsi myiza cyane iboshye, areba imbere rwose cyane, inyuma ye hari akaryango gakinguye.

Ibitambaro bya MTN abantu babifite bari kubirambura ku meza, bigaragaraho ikirango cya MTN ni abantu babiri, umwe yambaye ishati irimo uturongo twa karokaro, undi yambaye umupira wa MTN ufite utubara twa MTN, bigaragara ko bari kurambura ameza, bari gushyiraho utu tuntu.

Akazu kagaragara ko ari aka sosiyete ya MTN icuruza ibijyanye n'itumanaho, hari abantu bahagaze, abantu uwambaye umupira w'umweru, uwambaye umupira, ishati y'umutuku utebeje n'ishati y'amabara y'umukobwa uri kureba ufite igikapu mu kuboko.

Moto zihetse udukarito zicayeho abamotari, moto enye bose bambaye kasike uwambaye iy'umutuku abandi eshatu zirasa imbere yabo hari inzira ndetse hari n'inzu igaragaza ibikoma birebire bisumba igipangu.

Itaka rigaragara cyane rimeze nk'ahantu hari ikibuga ndetse hari uruzitiro rw'igipangu, hari ibiti, hari ibyatsi hasi impande y'aho hantu haragaragara ko urupangu ruhazengurutse cyane rukatakata rw'amatafari ayihe.

Imbere y'inzu hari amapave, inzu ifite umuryango, ifite utuntu tw'utudirishya twajyamo tw'uturahuri dutoya, ikagira n'ikidirishya kinini, urubaraza imbere, ku mpande ibara ry'umukara, hirya hagaragara ko hari iyindi, inzu ihagaze, inzu yemye, inzu ifite uturabyo.

Inzu ifite amagambo yanditseho hejuru yayo mu ibara ryijimye, inzu iri hasi iragaragaza imiryango, harimo umuntu uri kureba mu miryango, iragaragaza inzira zijya mu imbere, iragaragaza amabara rwose y'amatafari atukura.

Abantu bahagaze ndetse inyuma hari udutebe, ibicuruzwa inyuma, imbere na ho hakaba hari abandi bantu bari kureba niba hari ibikenewe, mo imbere amashusho amanitse y'imyenda ndetse n'inyuma ibikoresho bihari.

Abantu bahagaze bari kugura, bari kugura ibintu bitandukanye, ibimanitse hejuru, buri wese afite agakapu, hari ababyitegereje cyane hari ndetse n'abari mo imbere bari impande ya byo n'abari muri byo neza.

Abantu bari gukora mu tubati tumanitsemo inkweto batatu, umwe afite agatambaro mu mutwe undi yambaye umupira w'ubururu, undi ishati y'amaboko n'akajipo k'agakoboyi, inyuma yaho hari izindi nkweto zirambuye ahantu ku meza.

Abantu bahagaze mu isoko, hasi harambuye utuntu twinshi cyane, bafite ikintu kimeze nk'umukeka, uwambaye ikanzu ndetse n'uwambaye ingofero y'abasilamu, bose hagati yabo harimo umwanya harimo n'intera, hirya hari abari kureba utwo tuntu hari uhetse n'igikapu.

Abantu benshi cyane bari mu nzu mo imbere bari kugenda bareba hameze nko mu isoko, bahagazemo, bateye neza, hejuru hari amakaro ndetse n'amatara, inzu ikoze neza igaragara nk'aho ari nini cyane mo imbere aho bahagaze.

Umudamu usa neza mu maso, ya RSSB, umudamu ufite imisatsi iboshye, umudamu wambaye umupira ndetse agashati k'igitenge, warambitse intoki ku meza, afite impeta mu ntoki ndetse yambaye n'isaha ku kuboko.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo arayesesibi, rufashwe n'ikiganza, igitambaro munsi y'ikiganza, ruciye ku ntebe, ikizingiti cy'intebe kigaragara impande y'ikiganza.

Icyapa ikigo nderabuzima hasi kimanitse hejuru hasi hari umuryango ndetse n'utundi twanya tugaragara nkaho ari amadirishya urubaraza rugaragara nkaho hafunguye mo imbere hakabamo umuryango ndetse hirya hicayemo abantu ku mpande naho hari ibizingiti ndetse hakaba n'inkingi karabutaka zifashe urwo rubaraza.

Utupaki tugaragara dutandukanye, udupaki tw'udufuka, tugaragara nk'aho turimo ibintu bimeze nk'ifu bitandukanye, hasi hari amakaro, amakaro agaragara neza imyanya yayo, amakaro y'igitare, agaragaza ko akeye asa neza.

Utubati twuzuyemo ibyo kunywa bishobora kuba ari iby'amoko yose biragaragara mu tubati dushoreranye, biri mu nzu bipanze kuva hasi kugera hejuru, hari inkingi zifashe utwo tubati zishyigikiye ndende, zinadusumba ndende.

Inzu irimo utubati, turimo ibicuruzwa dutandukanye dushoreranye, turi ahantu hagaragara neza hari umucyo, hasi hashashe amapave ameze neza ndetse afite isuku, hasukuwe neza cyane.